Inyama ziri ku duti， ziri mu kabari bazishyize ahagaragara， kugira ngo abantu bari muri iyo kabare， bazibone baze bagure， muri iyo kabare，babone amafaranga yo kubateza imbere. Ni nyinshi bazitanditse， kugira ngo uhitemo izo ushaka.

Inzu bacururizamo inzoga zo kunywa harimo abantu bazitanga, urahagera ukicara ugategereza bakakuzanira icyo urafata cyo kunywa, ugatanga amafaranga akagirira abo bari kuzicuruza akamaro.

Ibiryo byiza, bitetse neza, birimo ibitera imbaraga, ibyubaka umubiri, ibinda indwara, harimo umuceri, harimo ifiriti, harimo inyama, harimo intoryi, harimo intungamubiri zose zirimo.

Ibitoki bihiye, babishyize mu kabare, barabishyira ku meza kugira ngo abari mu kabare babigure, ibyo bitoki bimeze neza, bifite isuku, babishyize ku isahani, iyo abantu bari muri iyo kabare barabigura bakabirya, bakabona amafaranga.

Akabare bararamo bari kubyina, ako kabari iyo ukagezemo usanga harimo abantu bari kubyina nawe ukabyina, kuko abantu bose baba mu kabare baba bagiye kunwa no kubyina, kuko nta bandi bantu bakunda mu kabare.

Akabare karimo abakobwa bari kubyina bishimye kuko ako kabare kagira abakiriya benshi . Iyo batari babona abakiriya, baba bari kubyina kugira ngo bakurure abakiriya , nibababona bari kubyina baze.

Akabari bacururizamo inzoga, iyo uhageze uragura , harimo abantu bari kuzicuruza ,hariho umutekano ugatanga amafaranga ukishyura neza ,nabo bakaguha inzoga neza ukazinywa ukazihaga, kuko nawe wishuye neza.

Iyi ni butike ibamo ibyo bahahiramo， bakabirya， bagatanga amafaranga， kuko uwo ubicuruza nawe aba ashaka kwiteza imbere， kuko byamugirira akamaro.

Inzu y'ubucuruzi ibamo ibintu byose umuntu akeneye: ibirayi, ibishyimbo, amasaka, ifu y'igikoma; uragenda ukagura muri iyo nzu, wamara kugura ukishyura amafaranga, akagirira akamaro abacuruzi, nawe ibyo uguze bikaguteza imbere.

Iyi nzu ni inzu y'ubucuruzi, bacururizamo ibintu bitandukanye. Iyo uhageze uragura, wamara kugura ukagenda, wagenda ukamusigira amafaranga y'ibyo waguze ukeneye, na we amafaranga akamugirira akamaro.

Botike bacururizamo ibihaza, ibyo bihaza bimeze neza n'ibihaza byeze neza, uwo uri kubicuruza arabigurisha akabona amafaranga akamuteza imbere kuko ari ibihaza byiza byeze neza, bityo akamugirira akamaro n'igihugu cyacu.

Butike batekeramo icyayi, urahagera ukagura icyayi, hari amasafuriya ari ku mashyiga, iyo uhageze rero winjiramo ukagura ibyo ushaka ugatanga amafaranga, bakaguha ibyo ushaka, hari icyayi, hari ibiryo, iyo ni butike bacururizamo ibyo kurya.

Inzu bacururizamo, iyo nzu imeze neza, iri ahantu heza, ifite umutekano, iyo uhageze uragura icyo ushaka ugatanga amafaranga, akagirira umucuruzi akamaro, kuko hari butike nyinshi, izo butike winjira mu yo ushaka ukagura aho ushaka.

Inzu bacururizamo amatelefone, iyo uhageze uragura ugatanga amafaranga, ayo amafaranga utanze bahita baguhereza telefone, hariho ameza hariho n'agatebe, maze uwo mucuruzi ugurishije nawe akamugirira akamaro.

Inzu bacururizamo iriho icyapa kiyobora abagenzi, iyo uhageze uje kugura ibintu ugasanga nyirabyo ntawuhari hari nimero ziri kuri icyo cyapa za terefone uramuhamagara akaza kuguha ibyo ukeneye kuko uba usanze ntawuhari.

Inzu bacururizamo ibyo kurya, iyo uhageze uragura, wamara kugura ukishyura amafaranga, akakagirira abantu bafite izo nzu akamaro, kuko izo nzu ni nyinshi, winjira mu nzu ushaka, izo nzu ziri ahantu heza kuko hejuru hari izindi nzu.

Iyi ni inzu bacururizamo imyenda, urahagera ukagura imyenda ukambara ukaberwa, ugahitamo imyenda ushaka ugatanga amafaranga ahagije, nuko ukambara neza ukaberwa cyane.

Butike bacururizamo ibikoresho bitandukanye, izo butike ni nyinshi urahagera uje kugura ukihitiramo inzu ushaka, kuko hari inzu nyinshi zitandukanye, ntabwo wahendwa uri kureba ahantu hatandukanye, hariho inzu nyinshi.

Butike bagurishirizamo amarido, aho hantu hamanitse amarido, urahagera ukarobanura irido ryose ushaka ukishyura amafaranga, agateza uwo mucuruzi imbere, kuko nawe aba ashaka kwiteza imbere mu buzima bwe bwa buri munsi.

Iyi nzu ni iyo bacururizamo ibintu bitandukanye, urahagera ukagura, handitsweho n'izina ry'uwo muntu, nyiri iyo butike uyicururizamo, iyo uhageze uragura, ibintu ushaka byose biba birimo, ukamuha amafaranga, ukakamuteza imbere, kuko nta kintu na kimwe kiba kitarimo.

Inzu nziza bacururizamo ibiribwa bitandukanye, iyo uhageze urinjira ukagura, wamara kugura ugatanga amafaranga ahagije, abacuruzi nabo bakabona amafaranga kuko nabo baba baje kugurisha bakeneye amafaranga yo kubateza imbere.

Iyi nzu irimo imitako, uragura wamara kugura mo imitako yo ku maboko, harimo imitako yo mu ijosi, harimo imyenda bambara, iyo uhageze uraragura ugatanga amafaranga, akagirira umucuruzi akamaro.

Butike bacuruzagamo ibicuruzo bicuruzwa bitandukanye, urahagera wamara kugura ukaza ukabona igare hanze ukarishiraho ibyo waguze rikagutwarira rikugeza mu rugo, maze ryamara kubigeza mu rugo ukabishyura amafaranga ahagije.

Ahantu bacururiza inyama, iyo uhageze ugura inyama, wamara kuzigura ukagenda ukishyura amafaranga, ukajya kuziteka, izo nyama iyo uziguze urazirya ukumva ziraryoshye, kuko aha hantu bacuruza neza.

Iyi nzu bacururizamo terefone, bacururizamo imigozi ya terefone. Iyo uhageze uragura, bakakwereka ukuntu uzajya ukoresha terefone neza. Iyi nzu nta kintu kitarimo kuko ibikoresho byose by'ikoranabuhanga bibamo. Urahagera ukishyura amafaranga bakaguha ibyo ukeneye.

Abantu bahagaze kuri butike za bo bategereje ko babona abakiriya, kugira ngo babagurishe ibyo bacuruza, babone amafaranga biteze imbere, bityo bagirire igihugu akamaro, na bo bigirire akamaro.

Butike bacururizamo ibyo kurya. Iyo uhageze uragura, warangiza kugura ukagenda, kuko ni butike nziza imeze neza, ikurura abakiriya, kuko iyo butike uyiguraho ukumva uranezerewe, kuko ari nziza.

Inzu bacururizamo ibyo kurya. Iyo nzu irafunze nyirayo ntawuhari ariko iyo afunguye aragurisha ibyokurya, abona amafaranga abaturage bakaza bagahaha kuko iyo nzu iri ahantu heza iraboneye, abantu barayikunda.

Butike nyinshi zitondetse ku murongo urahagera ukareba inzu ushaka ukagura igikoresho ushaka, kuko iyo butike imeze neza, iri ahantu heza, kandi ni nyinshi ni ukwinjira muri butike ushaka, kuko zitondetse ku murongo, zimeze neza ugura icyo ushaka.

Butike bacururizamo, imbere y'iyo butike hariho igitanda urakigurara ugatanga amafaranga, kuko hariho n'icapa cyananditseho ibiciro bw'icyo gitanda wamara kukigura ukakijana iwawe ukazajya ukiryamaho ukagira ubuzima bwiza kubera uryama ahantu heza cyane.

Butike nziza iri ahantu heza irimo ibyapa biriho ibicuruzwa batanditse, iyo butike iyo uhageze usoma ku byapa ukabona ibicuruzwa bihari hariho n'ibiciro byo kuguriraho. Ibyo bicuruzwa ni byiza ugura ibyo ushaka.

Iyi nzu irimo ibiribwa bifite intungamubiri, urahagera ukagura ibyo ushaka, ukihitiramo, wamara kugura ukabaha amafaranga, akabateza imbere, nawe ibiribwa ukagenda ukabiteka bikaguhaza neza.

Butike ibamo ibintu bitandukanye ugera aho ukagura, hari n'umuntu wicaye ugurisha mituyu nawe iyo ushaka mituyu arakugurisha yamara kugurisha bityo ugateza ukamuteza imbere nawe ukiteza imbere.

Butike bacururizaho ibintu bitandukanye hari icupa rya mitsingi. Iyo uhageze ubaza inzoga ya mitsingi ukayinywa, ugatanga amafaranga. Iyo nzoga iraryoha, iyo uyiguze utanga amafaranga akagirira uwo mucuruzi akamaro.

Butike bagurishirizamo ibintu bitandukanye. Iyo uhageze uragura, wagera ku muryango ukabona moto zihagaze, cyangwa imodoka. Ukayifata ukayitega ukayiha amafaranga, ikakugeza mu rugo kuko iba ikeneye kubona abagenzi.

Inzu bacururizamo ibicuruzwa bitandukanye bacururizamo umuceri , bacururizamo ibishyimbo, bacururizamo ibindi bikoresho, iyo uguze usiga amafaranga akagirira uwo mucuruzi uri gucuruza akamaro.

Inzu bacururizamo iriho icyapa kiyobora abakiriya ,kuko iyo usomye kuri icyo cyapa ubona ibintu bacuruza, kuko biba byanditsweho kuri icyo cyapa .Maze ukagura neza , warangiza kugura, ukishyura amafaranga.

Butike bacururizamo amatelefone, bacururizamo amaradiyo, urahagera ukagura kuko aba atanditse, iyo butike ni nziza, iri ahantu heza irakeye, ugatanga amafaranga uwo mucuruzi na we akamugirira akamaro.

Inzu bacururizamo ibintu bitandukanye, uwo muntu ucururizamo arahari ari gutandika ibintu. Ibyo bintu kugira ngo abakiriya be baze basange bitanditse bagenda bagura ibyo bashaka, kuko bitanditse bifite umutekano ahantu habugenewe.

Botike baranguriramo ibintu bitandukanye, urahagera ukishyura amafaranga bakaguha amakarito ukeneye, ukagenda wagera imbere ukabona igare ugatega, bityo ukagera mu rugo amahoro nta kibazo ufite.

Inzu bacururizamo iyo nzu ni nziza ifite isuku iyo uhageze uragura wamara kugura ugatanga amafaranga. Ayo mafaranga akagirira umucuruzi akamaro kuko iyi nzu ni nziza iri ahantu heza kandi imeze neza.

Botike bacururizaho ibikoresho bitandukanye, urahagera ukagura ibikoresho byose ushaka, iriho n'intebe, iriho n'umutaka bacururizamo mitiyu, urahagera ukagura ukishyura amafaranga kuko uba ubonye ibyo ushaka.

Butike bacuruzamo ibintu bitandukanye, iyo uhageze uragura, wamara kugura ukishyura amafaranga, uwo muntu ayo mafaranga umuhaye akamuteza imbere, iyo butike iri ahantu heza, imeze neza kandi igira abakiriya benshi kuko ifite isuku.

Inzu bacururizamo ibyokurya, iriho n'abantu benshi bajye kugura, iyo bamaze kugura iratanditseho imifuka n'icyapara kiyobora abantu, iyo bamaze kugura bahita batega amagare ahari maze bakakabageza iyo bagiye.

Bbutike bacururizamo ibintu bitandukanye iyo uhageze ubona ibyapa bikurangira aho winjiriraraga, wamara kwinjira ukagura, ugatanga amafaranga akagirira uwo mucuruzi uri muri iyo butike akamaro kuko nawe wamuhaye amafaranga ahagije.

Inzu irimo amasaro ya kinyarwanda, urayagura ukayashyira mu mitako, iyo mitako ibera abantu, noneho wamara kuyishyira mu mitako, ukayibohamo udukapu, abandi bayibohamo amashapure, abandi bakayibohamo ibyo kwambara.

Butike iriho ibicuruzwa byose iriho n'igare ryaje kugura riteretseho imifuka n'ibidomoro birimo amavuta, iyo uhageze uragura bakakugurisha neza, ukagenda ukarya ntakibazo ufite.

Botike imeze neza iri ahantu heza, urahagera ukagura ibyo ushaka kuko iyo botike ni nziza imeze neza, ukishyura amafaranga ahagije nuko ukagenda kuko uba ubonye ibyo ushaka.

Butike baguriraho ibintu urahagera ugasanga hariho icyapa cyanditseho kugira ngo ntuzibagirwe, nuko ukagura ibyo ushaka kuko byose biba birimo ugatanga amafaranga, bityo nyiri iyo butike akamuteza imbere.

Butike bagurishirizamo ibintu bitandukanye, urahagera ugasanga umuntu nyiri iyo butike yicaye ku gatebe akakubaza icyo uje kugura, akakikuzanira ukamuha amafaranga akamuteza imbere kuko nawe aba akeneye kubaho neza.

Hoteri bararamo urahagera ukishyura amafaranga, bakakwereka icyumba cyo kuraramo, ukinjira muri icyo cyumba kugira ngo uryame neza ugire ubuzima bwiza bwa buri munsi ubeho neza, kuko wowe watanze amafaranga ahagije.

Hotel iri ahantu heza, iyo hoteri urahagera bakakwakira neza bakaguha icyo ukeneye cyose, ukanywa kuko haba hari inzoga, ibiryo ugatanga amafaranga akagirira abo bantu bari muri hoteli akamaro keza.

Iyi ni inzu icumbikamo ba mukerarugendo, iyo nzu iri ahantu heza, iriho n'icyapa kiyobora abantu, iyo uhageze ugasoma kuri icyo capa, umenya ko ari hoteli ibamo abakerarugendo cyangwa icumbikamo abantu.

Inzu iraramo abantu, abo bantu iyo bahageze baparika imodoka zabo bakinjira bakabakira neza bagatanga amafaranga, kuko iyo nzu ni nziza iri ahantu heza, abantu barayikunda cyane iyo bahageze bagira umutekano, bityo bakiteza imbere.

Isoko ririmo abantu benshi . Buri muntu wese agura ikintu yaje kugura kimushimishije ,kuko baba batanditse ibintu bitandukanye nuko ukagura icyo ushaka kuko ibintu byose biba birimo buri muntu agenda agura yishyura amafaranga ,akagirira abacuruzi akamaro

Isoko ririmo ibiribwa bitandukanye, urigeramo ukagura icyo ushaka maze ukagenda wishyura amafaranga ahagije akagirira abo bacuruzi bari gucuruza akamaro, bityo akabateza imbere mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Isoko rinini ryubatse ahantu heza, abantu bariremye, hariho n'imitaka bacururizamo mitiyu, iyo uhageze muri iryo soko uragura wamara kugura, riracyeye ni isoko rimeze neza isoko ririmo ibintu byinshi bitandukanye.

Isoko ririmo abantu batandukanye, baje kugura ibintu bitandukanye, kuko iryo soko ni rinini, iyo ugezeho uragura wamara kugura, warangiza ukagera hanze, ukabona imodoka cyangwa igare, ugatega bijyanye n'ubushobozi bwawe.

Isoko ritanditsemo ibintu bitandukanye, ririmo n'abantu bari kugenda, iyo ugeze muri iryo soko uragura ugatanga amafaranga kuko uba uri kureba ibyo ukeneye byose biri ahantu heza hafite isuku, iyo bafite isuku byagirira igihugu akamaro.

Ahantu bacururiza udukoresho bambika abana kugira ngo batinyaraho, dore bari kubyamamaza hashushanyijeho umwana kugira ngo ababyeyi baze bagure utwo dukoresho tw'abana bishyure amafaranga.

Isoko ry'imyenda ririmo imyenda. Urahagera ukagura imyenda . Ukihitiramo imyenda ushaka. Ukambara ukaberwa . Ugatanga amafaranga ,akagirira abacuruzi akamaro nawe iyo myenda ikakugirira akamaro mu buzima bwawe bwa buri munsi.

Abantu bari mu isoko baje kugurisha imyaka yabo bateretse imifuka. Iyo uhageze urahagera ukareba muri iyo mifuka irimo ibicuruzwa bitandukanye, ukareba ibyo ushaka ukishyura amafaranga ukagura kuko uba wihitiyemo imyaka ushaka.

Aho bacururiza umusururu, uwo musururu bawushyira mu macupa, bakawutandika kugira ngo abantu baze bawugure, bawunywe, n'uko bashire inyota kuko uwo musururu umara inyota.

Iri soko ritanditsemo ibiribwa: inyanya, intoryi, ibirayi, ibitunguru, karoti, mbese ni ibihingwa byagirira abaturage akamaro birimo intungamubiri zihagije kandi harimo n'ibyubaka umubiri, ibirinda indwara.

Isoko bacururizamo imiteja bacururizamo intoryi ,karoti ririmo abantu batanditse iyo miteja kugira ngo bayigurishe babone amafaranga yo kubateza imbere , bityo bigirire akamaro igihugu cyacu.

Inzu bacururizamo amasafuriya, iyo nzu irimo amasafuriya menshi, amabase, imbabura, iyo uhageze uragura ukishyura amafaranga, umucuruzi akabona inyungu, kuko nawe aba akeneye kwiteza imbere, mu buzima bwe bwa buri munsi.

Isoko ritanditsemo ibintu byinshi. Bararirema bakagura. Harimo indobo ,harimo ubudodo harimo ibintu byinshi bitandukanye. Iyo ugezemo uragura icyo uri kubona ushaka kikaguteza imbere.

Isoko ririmo ibitunguru, ibinyomoro, imiteja, iyo ugezemo uragura ukishyura amafaranga, akagirira abari kubicuruza akamaro, bityo bikabateza imbere, bikagirira igihugu cyacu akamaro, nawe kubera ko birimo intungamubiri bikakugirira akamaro.

Isoko bacuruzamo inyanya, intoryi, ibitunguru, karoti. Ni isoko ry'ibiribwa. Ababizanye barabigurisha bakabona amafaranga kakabateza imbere mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Isoko bacururizamo ibikoresho byo mu rugo, za terimusi bashyiramo igikoma, udukombe banywesha igikoma, amasafuriya batekamo, amabase bakarabiramo, indobo bakoresha, n'ibindi bikoresho byinshi.

Inzu bacururizamo amasafuriya，udukombe， amabase， indobo. Iyo uhageze， uragura wamara kugura ，icyo gikoresho uguze kikaguteza imbere， nawe ukishyura amafaranga， bityo umucuruzi..

Isoko ry'imyenda urarigeramo ukagura imyenda, ukishyura amafaranga, abayicuruza nabo bakishima kuko babonye abakiriya, iyo myenda ni myinshi, ni ukuhagera ukihitiramo umwenda ushaka, kuko iba ari myinshi.

Isoko ririmo ;ibihaza ,ririmo pavuro, riririmo karoti. Urahagera ,ugatanga amafaranga kuri abo bantu bari kubicuruza. Ayo mafaranga ubahaye akabagirira akamaro. Kuko nabo baba bari gushaka ubuzima bwiza.

Isoko ryiza ritanditsemo ibyokurya bitandukanye, iyo ugeze muri iryo soko uragura ugatanga amafaranga, agaha abacuruzi akamaro kuko uba wabahaye amafaranga ahagije.

Isoko ririmo ibicuruza bitandukanye, umuntu arigeramo akagura, yamara kugura agatanga amafaranga, yoguteza abacuruzi imbere kuko buri muntu wese agura ikintu ashaka kimushimishije, riba ririmo ibintu byinshi bitandukanye.

Isoko bagurishirizamo ibikoresho bitandukanye: Harimo ibiduki, harimo indobo, harimo amasafuriya, harimo indobo, n'ibindi bikoresho byinshi bitandukanye byagira akamaro.

Amafi ari mu isoko bayashyize mu isoko, kugira ngo bayagurishe babone amafaranga yo kubateza imbere, kuko iyo atanditse mu isoko abakiriya baraza bakagura, bamara kuyagura bagatanga amafaranga, umucuruzi akabona amafaranga yo kumuteza imbere.

Isoko ririmo imyaka, ririmo amazu atandukanye. Iyo ugiye kugura ugura aho ushaka kuko iryo soko ni rinini ririmo ibicuruzwa bitandukanye. Ugura icyo ushaka cyose kuko ni isoko ryiza kandi rinini.